Ndabona hari umuntu uri hafi ya pipiniyeri ahantu hahumbitse imbuto mu bihoho, ndabona ari igiti afite kimeze nk'umuvumu yambaye agapfukamunwa afashe igiti mu ntoki kiri mu gihoho, hafi ye hari umugano utambitse n'inyuma ye hari izindi mbuto nyinshi n'ibiti n'abandi bantu n'ibintu bigiye birunze nk'ibitaka.